Ibishushanyo by'inyamaswa ziri gukina umupira bikaba bikoreshwa n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, bari gukina bikabafasha no mu myigire yabo.

Ibikoresho bikoreshwa n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, bakabikoresha bakina mu myidagaduro ndetse n'inyubako y'ishuri y'incuke yubatse igeretse ndetse n'ibindi bikoresho bakoresha mu banyeshuri b'incuke.

Ibikoresho bikoreshwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, babikoresha bashushanya bandika ku mpapuro zabugenewe, bakandikisha amabara atandukanye, bari gushushanya bikabafasha kurushaho kugenda bagira ubumenyi bwinshi.

Umwarimu uri kwigisha abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye, bafite mudasobwa n'amakayi n'amakaramu bari kwandika ndetse bakaba banagaragaza amashusho imbere yabo bari kwiga.

Inyubako ya Kaminuza igaragaza ahantu hari ibiti, indabo. amapave n'abanyeshuri bari kugenda binjira aho ngaho muri iyo Kaminuza barimo bagenda.